Agapfunyika kapfunyitsemo ifumbire mvaruganda yifashishwa mu gushyira ku bigori, ibi bikaba byongera umusaruro uva ku bigori. Ibi bikaba byaratangijwe mu gihe igihugu cyahuraga n'ikibazo cyo kubura umusaruro w'ibigori, bitewe n'ihindagurika ry'igihe.

Agafuka k'umweru n'icyatsi gashushanyijejwe igitebo kirimo utuntu tw'umweru ariyo fumbire mvaruganda, ndetse hakaba hashushanyijeho indabo, inyanya ndetse n'ibirayi. Iyi ikaba ari ifumbire yifashishwa mu kongera ibikomoka ku bihingwa.

Icupa ry'umweru ririho urupapuro rufite amabara ya oranje ndetse n'umweru, rwanditseho amagambo y'umukara ruriho ifoto y'igihingwa cy'umuceri. Uyu ukaba ari umuti wifashishwa mu kurinda igihingwa cy'umuceri ndetse no kuyisigasira kugira ngo hongerwe umusaruro uva mu guhinga umuceri.

Umurima uteyemo imboga zivanze n'ibihingwa by'ibigori, umurima ukaba ukikijwe n'ibyatsi. Muri uwo murima hakaba harimo umugabo uhetse imashini yifashishwa mu kuhira ndetse no gutera imiti imboga, mu rwego rwo kurinda ko zahura n'indwara, bitewe n'ihindagurika ry'ibihe cyangwa se iyaduka ry'indwara nshyashya.

Ikiganza gifashe agatiyo kari mo igihingwa gitangiye kumera, imbere y'indorerwamo ikoreshwa n'abaganga, kugirango barebe ibintu bitoya ari yo bita mayikorosikopi.

Umugabo wambaye igituza hejuru urimo urayora ubwatsi ku kirundo cyabwo. Ubu bukaba ari ubwatsi bwifashishwa mu kugaburira amatungo kugira ngo bibashe kongerera umusaruro amatungo atanga ndetse no kuba bwakoreshwa ingufu zitangwa mu zifashishwa mu guteka.

Amafi atanu manini arambitse ku byuma mu nsi harimo umuriro ukaba ari ubujyo bwifashishwa mu guteka ndetse no kotsa amafi mu nzu zicuruzwa ibiryo. Ubu bujyo kandi bukaba buri mu bujyo bukundwa cyane n'abaguzi ndetse bukaba bunakoreshwa no mu ngo z'abantu.

Amafi icyenda manini yarobwe mu nshundura. Akaba ari amafi akunda kuboneka mu biyaga akaba agurishwa mu isoko mu kugabanya imirire mibi y'abana, ndetse no gutegura amafunguro yuzuye arimo ibirinda indwara hakoreshejwe amafi.

Amakaro arambitseho akagemeri k'umuhondo karambitsemo amafi manini y'umukara. akaba ari amafi yifashishwaga mu gutegura amafunguro ga buri munsi, ndetse akaba ari amafi aboneka mu biyaga.

Udufuka twinshi tw'ubururu tw'amabara g'umuhondo turimo amafi manini. Akundaga kurobwa mu nyanja ndetse no mu biyaga aya akabaga ari amafi acuruzwa, akanaribwa kugira ngo hagabanye imirire mibi.

Isahani y'umweru irambitseho amafi abiri manini, ndetse n'urubuto rw'indimu ndetse n'ikirungo ca te(thé) cifashishwaga mu kuzihumuza. Aga akaba ari amafi gakunda kuboneka mu biyaga, ndetse no mu nyanja.

Ikiyaga kinini kirimo ubwato. Bufite ibiti burimo abarobyi bambaye ibituza barimo baroba mu buryo bwa kinyamwuga. Ubu bukaba ari uburyo bukoresha ibiti birebire, bifashe indobani kugirango ngo habashe kuba harobwa amafi mu rugero runini.

Isahani y'umweru iriho ibijyo biteguye mu bujyo bugezweho aribyo capati, ibitoki biriho ibirungo bya seleri ,isahani irambitse ku meza y'ibiti ndetse kuri ayo meza harihoho n'imbuto z'amaronji.

Itsinda ry'abantu rifashe indobani yafashwe mo amafi iruhande rw'icyuzi, ubu bukaba ari uburyo bukoreshwa n'aborozi b'amafi mu byuzi, aho bakoresha indobani ntoya mu gufata amafi mu bujyo bworoshye.

Amafi atatu manini arambitse mu gapaniye, akaba ari amafi akunze kuboneka mu biyaga ,ndetse akaba ari amafi ajyanwa ku isoko kugurishwa ,kugira abashe kubona abayarya mu nzu zigurisha ibiryo ,ndetse n'abantu nyirizina bashaka kuyarya ,akaba ari amwe mu mafi abasha gutegura ifunguro rifite umwimerere.

Ibyuzi by'amafi bikikijwe n'amashamba ndetse muri ibyo byuzi hakaba harimo ibibuti by'inkwavu. Ubu bukaba ari uburyo bukoreshwa mu korora amafi bidasabye ko ujya mu kiyaga, ndetse utu tuzu tukaba dushigwamo kugira ngo imyanda, haba inkari ndetse n'indi myanda yindi y'inkwavu ibashe kuba ibijyo bigaburira ayo mafi.

Isahani y'umweru irambitseho inyama ndetse n'imbuto z'indimu, ku ruhande hari ikirahuri kirimo ibintu by'umweru ndetse n'akandi kantu gakozwe mu uduti ndetse kaziritseho urudodo. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga mugutegura amafunguro mu mu mahoteli ndetse n'izindi nzu zicuruzaga ibijyo

Ibikarayi bikozwe muri pulasitike by'umukara umweru n'icyatsi, birunzemo amafi menshi asize umunyu. ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa n'abarobyi, kugira ngo amafi adapfa mbere y'uko bayajyana ku isoko ngo abantu bayagure bajye kuyarya. aya akaba ari amafi aboneka cane cane mu nyanja ndetse no mu biyaga.

Umurima munini w'ibyatsi urimo igihingwa cy'igihaza. Iki gihingwa cy'igihaza, ni igihingwa kiribwa n'abantu bose. Ariko cyane cyane mu gihe cy'ubukwe cyangwa se kiribwa n'abantu bo mu cyaro. Iki gihingwa kikaba kigira intungamubiri, kandi kikaba cyifashishwa mu guhangana n'imirire mibi itera abantu.

Umurima urimo ibyatsi byinshi byakuze bigakora igihuru; aho ari uburyo bwifashishwa n'abaturage kugira ngo umurima ubashe kuba wagarura ubuyanja ndetse n'intungamubiri zibashe kuba zakwiyongera, kugira ngo umusaruro w'ibihingwa bazahingamo uzabashe kwiyongera.

Umuhanda gw'ibitaka guri imbere y'umurima gugizwe n'ibishayote, ndetse n'ibitoki bikiri gukura ugu gukaba ari ubujyo bwifashishwaga n'abantu kugira ngo babashe kuba babona ibibatunga; byiganjemo imboga bakoresha bazitira ingo zabo ari zo ibishayote.

Umurima munini uhinzwemo igihingwa cy'ibirayi. Iki gihingwa kikaba kiri mu bihingwa byifashishwa mu gutegura amafunguro ya buri munsi，ndetse no gutegura amafunguro abasha kuba yamara igihe，mu gihe babinyujije mu mavuta bagakuramo amazi.

Inzu iri inyuma y'ibihingwa by'ibitoki ndetse ikikijwe n'igipangu cy'ibyatsi by'indabo, imbere yabyo hari umuhanda w'ibitaka urimo ibyatsi ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa mu cyaro, kugira ngo babashe kuba bazitira urugo birinde abasambo.

Umurima munini gurimo ibyatsi hagati yawo harimo inzira irimo kunyuramo inka nini ndetse n'intoya ,hahagazemo umugabo wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'ipantaro n'inkweto za bote.

Umurima munini gudahinze urimo inzira gunateyemo ibitoki. Ndetse ku ruhande hariho igiti kinini cyuzuyeho ibindi byatsi, bikoze ikigunda ndetse izi mirima zikaba, ari imirima babaga bamaze gusaruramo.

Inzira y'abanyamaguru iri hagati y'umurima ukikijwe n'ibidodoki ndetse n'avoka. Ibi bikaba ari ibihingwa byifashishwa nk'imboga. Ibidodoki ndetse n' avoka zikaba ari imbuto zifashishwa mu gutegura amafunguro ya buri munsi. Ibi bikaba ari ibihingwa na none byoherezwa hanze mu gihe bicuruzwamo.

Igipangu c'indabo cyanitseho imyenda, gikikije inzu ku ruhande rwacyo hari umurima w'ibitoki bigiye bitandukanye, bikaba ari ibitoki byifashishwaga mu guteka ndetse no gukora imineke.

Umurima munini uhinzwe mu bujyo bw'imitabu, ukaba ari ubujyo bukoreshwa n'abaturage bahinga kugira ngo babashe gukura ubutaka bwo hasi maze bubashe kuba bwagaburira ibihingwa neza. Ibi bikaba bibafasha mu kongera umusaruro w'aba.

Umurima munini urimo ibiti ndetse ukaba hasi y'aho hari ibiti by'ibigori byumye batemye kugira ngo habashe kuba hakorwa ifumbire; ibi bikaba bikorwa nyuma y'uko habaye isarura ry'ibigori, ibi bikaba bifasha umurima kuba wabona ifumbire nyuma y'uko ibi byatsi by'ibigori bibashije kubora.

Ibiribwa birambitse ku nkoko ndetse no mu ishashi byiganje mo ibishyimbo, amashaza, ndetse n'ibigori. Bikaba byegeranye n'imbuto z'amaronji aho abacuruzi babijyana mu isoko, kugira ngo babashe guhura n'abaguzi babikeneye.

Umurima munini uhinzwemo ikimera k'intoryi，ukaba ari umurima urimo ibiti bishinzemo hagati， byifashishwa mu kuzirikaho ibiti by'intoryi， kugira ngo zibashe kuba zahagarara. Ubu bukaba ari uburyo bufashwa mu guhinga intoryi zo kujyana ku isoko.

Itsinda ry'inkoko icyenda zororegwa mu rugo zizengurutse ikintu zirimo zirariramo, zikaba ari inkoko zigizwe n'amasake ndetse n'inkoko zitera. Izi zikaba ari zigize amatungo yororegwa mu rugo atanga bimwe mu byifashishwa mu gucuruza ku masoko.

Itsinda ry'abagore babiri bafite amasuka umwe witeze barimo bahinga umurima uri ahantu ku musozi, ndetse umurima ukikijwe n'indi misozi ubu bukaba ari uburyo bwo guhinga bwifashishwa n'abaturage hakoreshejwe amasuka ari byo byuma biba byacuzwe n'abacuzi.

Igihingwa cy'igisheke gikaswe n'umuhoro, aho bakata igihingwa cy'igisheke bakoresheje umuhoro kugira ngo gipakirwe mu modoka mu ngano nini ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwa n'abahinzi babihinga mu ngano nini, igihe bagiye kubyohereza ku ruganda cyangwa se bagiye kubyohereza ku isoko.

Umurima urimo ibitoki ndetse n'ibiti by'avoka, ariko muri icyo giti cy'avoka hakaba harimo agacuma. Kakaba ari agacuma bamanika mu giti bifashisha mu kugira ngo hirukanwe inyoni. Ubu bukaba ari uburyo bwakoreshwaga kera cyangwa se bukaba bunagikoreshwa muri iki gihe ahantu ho mu cyaro.

Itsinda ry'abantu bari mu murima uhinzemo igihingwa cy'ibigori ,kimaze kuma barimo barasarura kugira ngo kijyanwe ku isoko. Bukaba ari uburyo bukoreshwa kugira ngo ibigori bibashe kuba byahungurwa byoroshye.

Igihingwa cy'igitoki kikiri mu murima, aho kiba mu murima mpaka cyeze. Cyamara kwera bakaba bagikata kigakoreshwa imirimo igiye itandukanye. Aho kiribwa, cyangwa se kikaba bagitara kikavamo imineke yo gukoresha zimwe mu nzoga, cyangwa se ibinyobwa. Rimwe na rimwe ikaba yakwifashishwa nk'imbuto nyuma y'amafunguro.

Umurima munini gmuzengurutswe n'amashyamba, ukaba urimo abantu babiri bafite icyuma, barimo basarura umuceri, ukaba ari igihingwa cyifashishwa mu gutegura amafunguro ya buri munsi.

Umurima munini uteyemo imbuto bitwa amatunda. Aya akaba ari amatunda yifashishwa mu gukora imitobe ndetse akaba anagurishwa no ku masoko, aho abaturage baza kuyagura mu bujyo bwo kugira ngo hategurwe amafunguro yuzuye.

Igiti kirambitseho ikirundo c'ibirayi, aho abacuruzi bo mu masoko bifashishaga ubu buryo bwo kurudanya ibirayi, kugira ngo bibashe kuba byagaragarira buri wese, ndetse bibashe kuba byakwegerezwa abakiriya mu buryo bworoshye.

Igihingwa cy'amatunda: Akaba ari igihingwa kidakunda kuboneka cyane mu uduce twinshi two mu gihugu cy'u rwanda. Iki kikaba na cyo kiri mu bihingwa bikoreshwa mu inganda mu ugukora imwe mu mitobe, ndetse kikaba kiri mu bihingwa byifashishwa mu kugabura ifunguro ryuzuye ry'abana.

Isambu nini y'insenda yicayemo umugabo ufashe ku nsenda. Izi zikaba ari nsenda zifashishwa mu gukora urusenda rw'Akabanga, ndetse kikaba ari igihingwa gicuruzwa ku masoko, ndetse kikaba kijyanwa gucuruzwa no hanze.

Umurima munini w'ibigori ukikijwe n'ibiti ndetse n'umuhanda; umurima ukaba urimo umugore ukuze wambaye ijipo y'umukara ndetse n'igitenge yunamye arimo ararandura ibyatsi, ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwaga n'abahinzi kugira ngo batume ibigori byabo bikura neza.

Umugore wunamye mu murima w'imboga z'amashu，arimo arakuramo ibyatsi bitari ngombwa. Ubu ni uburyo abahinzi barobanuramo ibyatsi bitari ngombwa bagasigamo imboga ziri ngombwa， kugira ngo imboga bakeneye zibashe gukura neza zisanzuye.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bambaye ibisurubeti by'ubururu, ririmo umugore ufashe ipompo y'amazi arimo aracucira ibihingwa, ubu bukaba ari ubujyo bukoreshwaga kugira ngo ibihingwa bibone amazi mu gihe ari igihe cy'izuba bitabasha kuba byabona imvura.

Umugore ukuze wambaye ibitenge, urimo arabagara umurima munini, uhinzwemo ibimera byitwa ibigori. Ukaaba ari umurima ukikijwe n'ibiti birebire, ndetse n'umuhanda. Ibi bihingwa bikaba ari bimwe mu bihingwa bikunze kuboneka mu Rwanda, kandi byifashishwa mu gutegura amafunguro agiye atandukanye.

Itsinda ry'abantu bakora imirimo yerekeranye n'ubuhinzi, iruhande rw'umurima w'ibigori, aho umwe muri bo afite igikoresho cyifashishwa mu kuvomerera ibihingwa mu gihe cy'imvura. Ubu buryo bukaba bwifashishwa n'abahinzi igihe cy'izuba, igihe ibihingwa bisa nk'aho byabuze amazi.

Abagore babiri bahagaze mu murima barimo barahinga, bose bafite amasuka umwe muri bo akaba ahetse umwana. Ibi bikaba bikorwa igihe abahinzi bitegura gutera cyangwa se bakaba bari gutuma umurima ubasha kuba wakongera kugira intungamubiri zibasha kuba zagaburira ibihingwa.

Umurima munini uhinzwemo igihingwa cy'ibirayi. Ukaba uhagazemo abagabo batatu bahinga mu buryo bwa kijyambere. Ubu bukaba ari uburyo bahinga begeranya ubutaka bufite ifumbire kugira ngo bongere umusaruro w'ibikomoka ku birayi.

Umurima udahinzemo urimo ibyatsi byinshi, uzengurutswe n'ibiti bya avoka ndetse n'icindi c'umuhondo, harimo n'umugabo wambaye agapfukamunwa ufashe kuri voka imanitse mu giti. Ubu bukaba ari ubuhinzi bw'ibiti bwa avoka ndetse izi voka zikaba zifashishwaga, mu gucuruzwa ndetse zikaba zinoherezwaga hanze.

Imbuto z'amaronji. Izi ni imbuto ziboneka ahantu hake mu gihugu cy'u Rwanda; ndetse zikaba ari n'imbuto zifashishwa mu gukora imwe mu mitobe iryoshye kandi inakiza cyane. Izi mbuto kandi zikaba zifashishwa mu kuzuza bimwe mu mafunguro ya buri munsi; bimwe mu birinda indwara.

Umurima munini w'icyayi urimo abantu babiri umugabo n'umugore bahetse ibitebo. Umugabo akaba afite igikoresho cyifashishwa mu gusarura icyayi. Icyo gikoresho kikaba cyifashishwaga n'abahinzi mu gihe bashaka gusarura icyayi mu buryo bworoheje aho bazirikaho akadomoro gaciye.

Umusozi munini guriho ibiti ndetse n'ibyatsi, guri inyuma y'umurima guteyemo ibigori, ndetse guriho umugore ufite isuka wambaye n'ibitenge urimo mu kayira, arimo yerekeza aho hateye ibyo bigori.

Ikimera cyitwa inogi, iki kikaba ari ikimera cyifashishwa mu gutegura amafunguro ya buri munsi, aho nacyo gifatwa nk'imboga. Iki kikaba ari ikimera kiboneka mu duce twinshi two mu gihugu, bitewe n'ikirere cya ho.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore bafashe amasuka barimo bakora imitabo mu murima, kugira ngo babashe kuba bateramo ibihingwa. Ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwaga n'abahinzi bwa kijyambere kugira ngo babashe kongera umusaruro guvaga mu buhinzi.

Igihingwa cyo kujya cyitwa amateke gikaswemo gatatu, aho harimo abiri adakase ndetse n'ubundi bumanyu butatu. Iki kikaba ari igihingwa barya aho bagitekana n'ibishimbo, kikaba ari ifunguro ritera imbaraga ndetse ririnda n'imirire mibi.

Umusozi munini uteyeho ibiti n'ibyatsi, uri inyuma y'umugore wambaye ibitenge uniteze igitambaro, ufashe mu ntoki agahombo k'umuhondo, asizeho n'ibara ry'umukara, karimo karamena amazi mu bihingwa. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa n'abahinzi mu kuhira ibihingwa mu gihe cy'izuba.

Ikimera c'ibitunguru by'amababi maremare. Iki kikaba ari ikimera cyifashishwa nk'ikirungo mu mboga zitwa isombe, ndetse kikaba gikunda kuboneka cyane cyane mu turere dufite ikihere gikonja.

Inyoni zirindwi z'imbata, zo ziri kugendera ku mbuga y'ibitaka. Izi zikaba ari inyoni zorogwaga mu ngo z'abantu, cane iyo bashaka ko zibasha kuba zabaha inyama. Ariko hakaba hari n'abantu baryaga n'amagi yazo.

Ikimera c'icatsi giteyemo ubutaka bukikijwe n'ubwatsi bwumye. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga n'abahinzi bwitwa gusasira, aho bafataga ibyatsi byumye bakabyegereza ikimera kugira ngo kibashe kuba cyakura kitanduye.

Sima yamanyutse irambitseho umufuka. Uriho ibishayote bisa icyatsi. Ibi bikaba ari ibishayote byifashishwa mu guteka indyo yuzuye, ndetse bikaba binifashishwa mu guteka imboga, nk'amafunguro yabugenewe kugira ngo ahangane n'imirire mibi.

Umugore mukuru wirabura uhagaze mu mirima y'ibishyimbo akaba arimo asoroma amababi. Aya mababi akaba yifashishwa mu gutegura ibiryo aribyo bitaga "imishogoro". Ibi biryo bikaba byifashishwa kandi mu gukiza indwara ndetse no gutegura amafunguro yuzuye.

Itsinda ry'abagabo batanu, umwe muri bo ufashe igiti ari kucyerekeza mu kiraro cy'ibiti kirimo ingurube eshanu za kizungu. Aya akaba ari amatungo yifashishwa mu gukora inyama zicuruzwa mu mazu agiye atandukanye acuruza ibiryo.

Ipoto y'amashanyarazi imurikira ku muhanda, yegeranye n'icyuma cy'umukara, ndetse imbere yayo hari ikirundo cy'imyumbati. Ibi bikaba ari ibiryo byifashishwa mu gutegura amafunguro, bitera imbaraga, ndetse bikaba bikunda kuboneka cyane cyane mu turere twinshi tw'igihugu.

Itsinda ry'abantu batatu, barimo umugore uhetse umwana, bari mu duka ricuruza ibiribwa bikoreshwaga mu ngo z'abantu byiganjemo imineke, amafu n'ubuki buri mu ndobo, ndetse n'andi mavuta ari mu macupa kuri etajeri yifashishwaga mu gutegura amafunguro.

Itsinda jy'abantu rigizwe n'abagore bunamye mu murima munini bari kurunda runda ibirayi, ndetse barimo bakura n'ibindi. Ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwaga mu caro ahantu hatari hagera amamashini, aho ari ibirayi bijyanagwa mu masoko kugira ngo bibashe kuba byacuruzwa.

Itsinda rigizwe n'abantu b'abagabo n'abagore bazamuye intoki baganizwa n'umuntu uri hagati y'imirima y'amashu. Ibi bikaba biba igihe itsinda ry'abantu ryihurije hamwe kugira ngo babashe kuba bahinga kimwe mu bihingwa byatoranijwe cyangwa se akaba ari umujyanama urimo urabagira inama mu byerekeranye n'ubuhinzi.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore, umwe muri bo wikoreye inkoko ku mutwe ndetse n'akana munsi ye, bahagaze imbere y'ibijyo bacuruzaga mu isoko biganjemo: imbuto arizo imyembe, amaronji, ibinyomoro n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugabo n'umugore wunamye barimo barareba mu giti cy'ikimera cya avoka, gitanga imbuto z'avoka zifashishwa mu gutegura amafunguro, ndetse zikaba zifashishwa mu kurwanya ibibazo by'imirire mu bana. Izi mbuto kandi zikaba ari imbuto zijyanwa ku isoko umuguzi akaba yazigura.

Umugabo urimo aragaburira amatungo yo mu rugo yitwa inkoko. Akaba ari rimwe mu matungo aha abantu bimwe mu biribwa ndetse n'ifumbire byifashishwa mu mirimo ya buri munsi. Akaba ari amatungo aduha amagi ndetse n'inyama byifashishwa mu gutegura amafunguro kandi birinda indwara.

Umurima uhinzwe mo ibihingwa by'ibigori. Ibi bikaba ari ibihingwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Bikaba ari ibihingwa bikoreshwa mu gukora amafunguro y'abana n'abakuru ndetse yiganjemo kawunga, igikoma, ndetse ikaba binagaburirwa abanyeshuri mu mashuri. Bikaba ari ibigori byera bitewe na sezo babiteye mo.

Icimera citwa icibiringanya, akaba ari ikimera gikoreshwa mu mboga igihe harimo hategugwa amafunguro yuzuye, kikaba ari n'ikimera gigurishwa mu isoko kugira ngo haboneke amafaranga yo gutunga imijyango.

Umurima munini w'ibyatsi urimo ibiti by'inturusi, uri inyuma y'umurima w'imboga. Uhagazemo umugore ufashe isuka mu ntoki, urimo arahingira izo mboga, kugira ngo zibashe kuba zakura zisanzuye, zongere umusaruro.

Umuririma w'ibihingwa byitwa ibigori, ukaba ugaragaramo ikigori cyeze gitonoye, ibi bikaba ari ibihingwa byifashishwa mu gutegura amafunguro ya buri munsi yiganjemo kawunga, ndetse akaba cyifashishwa no gukora igikoma.

Umurima uteyemo ibibingo uri inyuma y'igiti cy'umwembe. Kikaba ari igiti cyeramo imbuto z'umwembe, zifashishwa mu gutegura amafunguro yuzuye. Ndetse zikaba ari imbuto zijyanwa ku masoko kugurishwa kugira ngo haboneke amafaranga.

Umusozi munini guriho ibiti bigiye bitandukanye. Uwo musozi gukaba guhinzwemo amaterasi g'indinganire. Ndetse umusozi gugwegereye gukaba ari umusozi gutari gwahingwa, ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga mu guhinga. Ahantu h'impaname kugira ngo habashe kwirinda amasuri.

Abagore babiri bambaye ubupfukamunwa bicaye mu murima w'intoryi barimo baratunganya umurima, aho ubu ari uburyo bita kubagara, aho bagenda bakuramo bimwe mu byatsi bitabugenewe kugira ngo bikurane n'izo ntoryi ,cyangwa se bakaba bakata bimwe mu ntoryi kugira ngo izindi zibone umwanya wo gukuriramo.

Igihingwa cy'igitoki, kirambitse ku imbaho, ubu ni ubwoko bw'igihingwa gikura cyerera ku giti kikaba ari igihingwa gikunze kuboneka mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu, cyane cyane udushyuha. Iki kikaba ari igihingwa cyifashishwa mu mirire mu buryo bwa buri munsi ,aho usanga kivamo imineke ,cyangwa se kikaba gitekwa mu buryo busanzwe ari kibisi.

Igihingwa cy'amatunda, iki kikaba igihingwa cyifashishwa mu gukora imitobe ndetse kikaba cyifashishwa mu gutegura amafunguro yuzuye mu kurinda abana kw'abarwara indwara zifite aho zihuriye n'imirire mibi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ahantu hatwikirije ibyuma. Bari imbere y'ibiryo by'ibihingwa byiganjemo ibikorwamo imboga, aribyo, imiteja, karoti, intoryi pwavuro, inyanya. Bikaba bishyirwa mu isoko kugira ngo abaguzi babone aho babikura.

Inka y'imbyeyi y'umukara n'umweru, iri mu kiraro cy'ibiti ifite iherena ku matwi, ikaba ari inka yororwa kugira ngo babashe kubona umusaruro w'amata. Izi nka, zikaba ari inka zikunzwe gutangwa, na gahunda Kagame yashyizeho ya girinka munyarwanda.

Itsinda ry'abagore batanu, imbere yaho hari umugabo wafashe itiyo ry'icyatsi ririmo rirasohora amazi mu murima munini w'ibirayi. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa mu kuhira ibirayi mu gihe cy'izuba kugira ngo bibashe kubona amazi bikeneye ngo bikure.

Imbuga y'ubwatsi butoshye. Iyi ikaba ari imbuga yifashishwa mu gihe harimo hashaka ubwatsi bw'inka, cyangwa se kikaba yakoreshwa nk'ikibuga abana bakiniramo mu gihe cyo kuruhuka. Ndetse ubu bukaba ari ubwatsi bwifashishwa, mu kubungabunga umutekano w'ibiremwa bitoya.

Utugemeri turimo ibishimbo by'amoko gagiye gatandukanye, karimo ibishimbo by'umweru bisa umukara cyane n'ibisa igitaka bikaba ari ubwoko bw'ibishimbo bugiye butandukanye bitewe n'aho bihingwa ndetse n'aho byera.

Umurima uteye mu buryo bwa kijyambere, uhinzwemo igihingwa cy'umuceri, ubu bukaba ari uburyo bwifashishwa mu guhinga umuceri kugira ngo ubashe kuvamo umusaruro utubutse ndetse umuceri ubashe kuba wazamuka ufite umwimerere.

Inzu yubakishishwa amatafari g'umuhondo n'amabati ga aruminimu iruhande gwayo hari ibyatsi byumye bikoze urupangu ,imbere yaho hari ururabo ndetse n'umugore ufashe inkoko mu ntoki urimo uragosora impekeca z'ibigori, iruhande gwe hari umufuka g'umuhondo.

Utugemeri dutoya tugiye turimo ubwoko bwose bw'impeke zihingwa zifite aho zihuriye n'ibishyimbo. Izi zikaba ari impeke zitandukanywa bitewe n'uburebure bwazo ndetse n'uburyo zikoramo. Izi zikaba ari impeke zifashishwa mu gutegura amafunguro ya buri munsi ndetse zikaba zinarindaga ingwara.

Inzu yubakishijwe ibiti imanitseho ibishimbo basaruye byumye. Ubu bukaba ari uburyo bukoreshwaga n'abahinzi iyo barangije gusarura ibishimbo bikaba bitumye, bakaba babukora kugira ngo bimanze byume neza maze bibone gukurwamo impeke zabyo.

Igihingwa cy'ubunyobwa kimaze gusarurwa kiba kikiri mu gishishwa cyacyo. Iyo bimeze gutya, abahinzi haba hasigaye gukuraho ibishishwa nuko igihingwa kikavamo impeke ari zo ubunyobwa.

Igihingwa cy'ibishyimbo cyashyizwe mu bitebo bigiye bitandukanye hashingiwe ku bwoko bwabyo, bikaba birobanurwa bitewe n'aho bikurira, n'amabara yabyo ndetse n'igihe bitwara kugira ngo bikure. Ibi bikaba na byo ari ibifasha mu gutegura amafunguro ya buri munsi ndetse no kurinda indwara.

Umurima uhinzwe mo igihingwa citwa amasaka. Iki kikaba ari igihingwa cyifashishwa mu gukora imitobe ndetse n'ibinyobwa bita ubushera ndetse n'umusururu. Bikaba ari n'ibihingwa byifashishwa mu gutegura amafunguro y'abana, yiganje mo igikoma.

Umurima munini w'igishanga urimo abantu bagiye batandukanye, aho ari umurima uhinzwe mu buryo bwa kijyambere, ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga mu gutera umuceri, ndetse n'ibindi bihingwa bimera mu gishanga aho babihinga bagacishamo intera y'aho amazi azajya aranyura.

Ubwoko bw'ikimera cyitwa ibishimbo. Iki ni ikimera cyifashishwa mu gutegura amafunguro ya buri munsi, kikaba ari ikimera kifitemo intungamubiri kifashishwa mu kugaburira abana igihe barimo barwanya imirire mibi.

Igihingwa cy'ibigori bya kinyarwanda: Ibigori byifashishwa mu ugutegura amafunguro y'abantu haba abana n'abakuru bitewe n'uburyo byatunganyijwe mbere y'uko bitekwa. Ndetse kandi kikaba kinifashishwa no gutegura amafunguro y'inyamaswa mu gihe inyamaswa zikeneye intungamubiri kugira ngo zibashe gukura neza.

Umurima uhinze mo igihingwa cy'amasaka. Amasaka akaba ari igihingwa gikoreshwa mu gutegura amafunguro y'abana n'abakuru, cyane cyane akaba anifashishwa no gukora ibinyobwa byiganjemo umusururu ndetse n'ubushera, bikundwa cyane mu bice by'ibyaro.

Imbuto z'igihingwa c'amashaza, izi zikaba ari imbuto zikugwa ku gihingwa c'amashaza bamajije gukura mu bishishwa byazo. Izi zikaba ari impeke zifashishwaga mu gukora igikoma ndetse n'andi mafunguro gagiye gatandukanye, zikaba zifasha na zo mu kurinda imirire mibi mu bana.

Agafuka kaboheshejwe ibyatsi bamenye hasi, kari karimo imbuto z'ingano, barabamenye hasi ku gitambaro naco cidozwe n'ibyatsi, cikaba ari igitambaro gisa umuhondo.

Imirima minini ihinze mu bujyo bwa kijyambere, ibihingwa bigiye bitandukanye ,iyo mirima ikaba izengurutse inzu zubakanye ubuhanga ndetse zikozwe n'ibyuma bikaba bikora uruganda.

Imbuga nini irimo amahema ndetse n'imifuka birambitseho amabuye, ndetse muri iyo mbuga hakaba harimo umugore urimo aragosora ingano akoresheje inkoko. Ubu bukaba ari ubujyo bwo gusukura ingano mu gihe barangije kuzisarura, kugira ngo zibashe kuba zajyanwa ku isoko.

Umurima munini guhinzemo icayi, urimo itsinda jy'abantu rigizwe n'abagore bunamye barimo bakuramo ibyatsi bitari ngombwa kugira ngo bibe byakurana n'icayi. Ubu bukaba ari ubujyo bukoreshwa kugira ngo icayi kibashe kuba cakura neza gitange umusaruro.

Igihingwa cy'amashaza na cyo ni igihingwa cyo mu bwoko bw'impeke, kimwe mu byifashishwa mu gutegura amafunguro ya buri munsi. Iki kandi ni igihingwa gikunzwe guhingwa ahantu henshi mu Rwanda bitewe n'uko kibasha gushyigikirwa n'ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda, mu bituma kibasha kuba cyakura cyane kikagera kure. Ibi bikaba bifasha abana kubarinda indwara.

Imverope y'umweru irimo impeke z'ubunyobwa bukiri mu bishishwa babusaruragamo. Ubu bukaba ari ubunyobwa butari gahungugwa ngo buvanywemo ibishushwa, aho buvanwamo kugira bubashe kuba bwacuruzwa nk'impeke cyangwa se babusye buvemo ifu.

Impeke z'igihingwa cy'ubunyobwa zirambitse ku nkoko, zegeranye n'agasahani karimo ifu y'ubunyobwa iseye. Ibi bikaba biba igihe umuntu ashaka guteka ubunyobwa mu mboga, cyangwa se yaba yifuza guteka kuburya ari impeke, akaba yakaranga ubusa umutuku.

Umugore uhetse umwana, urimo ukoresha intara cyangwa se inkoko, arimo aragosora ibishyimbo. Akaba ari imbere y'inzu yubakishijwe ibiti ndetse n'ibyondo. Ubu buryo bukaba bukoreshwa barimo bakura imyanda mu bishyimbo, barangije gusarura.

Amatungo y'ihene ane, arimo ay'umukara, ndetse n'iy'umweru imwe , ndetse n'iy'umuhondo imwe, bihagaze mu bwatsi bwegeranye n'igihuru, kirimo ibitoki. Ndetse n'inzu yubakishijwe amatafari y'inkarakara. Akaba ari amatungo yororerwa mu rugo ndetse akaba anagurishwa mu masoko.

Itungo ry'ingurube n'umwana waryo risa umukara n'umuhondo rihagaze mu byatsi biri mu kiraro c'ibiti ndetse n'ukuboko k'umuntu kurimo kurakora ku mazuru y'ingurube. Izi zikaba ari inyamaswa zikundaga gucuruzwa hagamijwe kuvamo inyama.

Abagabo babiri bambaye ibisurubeti by'ubururu bakaba ari abaganga b'amatungo. Umwe muri bo akaba ashyiramo imiti mu ndobo y'ubururu, bakaba bakikijwe n'amatungo y'inka cyane cyane bakunda kuvura.

Abagabo babiri bahagaze ku biti munsi y'ikiraro c'ihene, barimo bafashe ihene isa nk'umuhondo barimo barayandikaho amagambo, ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwaga mu korora amahene cane cane ariya mahene gi go gukoramo inyama.

Inkoko enye zihagaze mu bishagari imwe muri zo ihagaze mu gikarayi kirimo ibijyo zirimo kurya, ku ruhande rwazo hakaba hari akantu gasa nk'umweruru n'umutuku kifashishwaga mu guha inkoko amazi, ubu bukaba ari ubujyo bwifashishwaga n'aborozi b'inkoko kugira ngo zitarwara.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore rizengurutse umugabo wambaye agapfukamunwa, urimo guha umwana ikulete y'amagi, umwana akaba arimo arayikoramo, ndetse bakaba bahagaze mu kaburimbo y'igitaka.

Icyumba kirimo ibyuma bifashe inyama z'inka bizimanitse, bikaba ari ibyumba byifashishwa igihe barimo babaga inka bakuramo inyama kugira ngo zibashe kuba zajyanwa mu isoko.

Abantu babiri: umugabo n'umugore bambaye amataburiya y'umweru. Umugore akaba ateruye inyamaswa y'ingurube. Aba akaba ari abantu bakora ubushakashatsi bugiye butandukanye ku nyamaswa kugira ngo hongerwe umusaruro w'ibikomoka ku ngurube.

Inka y'inzungu y'umuhondo ifite iherena ry'umuhondo ku gutwi, hari n'umuntu ufite urushinge rufite agacupa hejuru, bakoreshaga mu gutera imiti inka zigiye zitandukanye kugira ngo habashe gukura neza izo nka cyangwa se bagure urubyaro rwazo.

Umurima munini w'igishanga uhagazemo inyoni yitwa igishuhe. Ikaba ari inyoni iboneka mu nkengero z'ibiyaga ndetse no mu bishanga, ikaba ari inyoni irya ibiryo bivuye mu mubiyaga.

Inyamaswa y'ishyamba yitwa isatura. Iyi ikaba ari inyamaswa ijya kumera nk'imvubu ariko yo ikaba ifite ihembe imbere rirerire. Ikaba ari inyamaswa ikunda kuboneka mu byanya nyaburanga byo mu Gihugu, cyane cyane nk'Akagera. Ikaba yinjiza amadovize bitewe n'uko abazungu baza kuyisura.

Inyoni y'umukara n'umweru ifite umunwa munini ihagaze mu byatsi. Iyi ikaba ari inyoni yitwa igishuhe. Ikaba ari inyoni ikunda kugaragara iruhande rw'ibiyaga ndetse n'ibishanga, ikaba ari inyoni igaburirwa n'ibikomoka muri ibyo biyaga.

Inyamaswa y'inkende ihagaze ku cyuma irimo irareba muri jaride ndetse no mu umuhanda. Ikaba ari inyamaswa iri mu izikurura abakerarugendo cyane mu u Rwanda ariko akenshi usanga zikunda no kuboneka mu imijyi nka huye ndetse n'indi yo mu amajyepfo.

Inyoni igizwe n'amabara g'umuhondo n'umutuku n'umukara ihagaze ku cyatsi kimeze nk'igiti. Izi zikaba ari inyoni zikundaga gusurwa na ba mukerarugendo iyo ziri mucanya nyaburanga cane cane muri nyungwe.

Inyamaswa z'inkende ebyiri zicaye ku giti cyavunitse. Zikaba ari inyamaswa imwe nkuru n'iy'akana. Zikaba ari zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo, ndetse zikaba zinjiza amadolari mu gihugu cy'u Rwanda.

Inyoni ihagaze ku ishami. Ubu ni ubwoko bw'inyoni buboneka cyane cyane mu mashyamba. Aho ubu bwoko bw'inyoni buri mu nyoni zikurura ba mukerarugendo, igihe bubaye bubarizwa mu byanya nyaburanga by'igihugu. Aho, ba mukerarugendo bishyura amafaranga kugira ngo baze barebe ubwiza bwazo.

Inyoni igizwe n'amabara y'umuhondo n'umukara ifashe ku cyari cyayo. Iyi ikaba ari inyoni ikunda kuboneka mu duce twinshi two mu gihugu, aho ari inyoni zizwiho mu kwarika ibyari bifite ubuhanga bukaze.

Utunyoni duhagaze ku giti cyumye, tukaba ari utunyoni tubiri twitwa udufundi, tukaba ari utunyoni dukundaga kuboneka mu bice byo mu cyaro ahantu bahinga ibihingwa byiganjemo impeke.

inzu iriho sima ifite imbuga y'ubwatsi nini. Irimo inyamaswa y'akanyamasyo gafite utwana twinshi tuyiri imbere. Iyi ikaba ari inyamaswa iboneka cyane cyane mu byanya nyaburanga by'Igihugu, cyangwa se mu byanya biba byarakozwe n'abantu, aho bikurura ba mukerarugendo bakishyura amadevize.

Inyamaswa y'inuma, ikaba ari inyamaswa yororwa cyangwa se ikaba mu ishyamba. Ikaba ari inyamaswa nayo iribwa. Kandi mu Rwanda, akaba ifatwa nk'ikimenyetso cy'umutekano ndetse n'amahoro.

Inyoni y'inuma ifite amabara y'umukara n'umweru, ihagaze mu byatsi byumye, iyi ikaba ari inyoni igaragaza amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ikaba ari inyoni ibasha kuba yakorogwa ariko inyinshi zikaba zikunda kuba mu mashamba.

Inyamaswa y'inkende y'ingore ihetse umwana mu mugongo irimo iragenda mu muhanda. Ubu bukaba ari ubwoko bw'inyamaswa buboneka mu mashamba kandi bukaba ari ubwoko bukunda gukurura ba mukerarugendo aho bazaga kubureba bakishura amadovize.

inyoni y'inuma yo mu ibara ry'ikijuju ihagaze ku byatsi. Ikaba ari inyoni yororwa ariko cyane cyane ikaba ikunda gusangwa mu biti bigiye bitandukanye. Ndetse ikaba ari inyoni idakunda kuboneka muri buri duce tw'Igihugu.

Inyamaswa yitwa igikeri nyiramabondo. Iyi ikaba ari inyamaswa idakunze kuboneka buri hantu hose. Aho ari inyamaswa zikunze kuboneka mu mashyamba. Zikaba ari inyamaswa zidakunda kororwa cyane. Aho izi nyamaswa ziri na zo mu zikurura ba mukerarugendo, baza kwishyura bashaka kureba amoko yazo aboneka mu Rwanda.

Inyamaswa y'inyoni yitwa igishuhe. Izi zikaba ari inyoni ziboneka mu bishanga ndetse no ku nkengero z'ibiyaga. Zikaba ari inyoni zigaburirwa n'iby'inyanja, byiganjemo amafi ndetse n'izindi nyamaswa ziboneka mu nyanja. Ibi bikaba biri mu binyabuzima bikurura abakerarugendo cyane cyane ku biyaga.